Abantu babiri umubyeyi, n'umusore, umwe aricaye, undi ahagaze yunamye bambaye amashati y'umweru, umwe afite baji mu ijosi, iri mu ibara ry'ubururu, bafite ibitabo bari kurambura, inyuma yabo hari ameza.

Inzu bafurizamo imiti, irimo intebe, hariho itaburiya y'umweru, akabati gasa umweru, kazengurukijwe n'ibara ry'icyatsi, udukarito turimo ibinini n'ameza y'umweru.

Umu mubyeyi wambaye ikanzu y'igitenge, ahetse umwana mu mugongo n'agashuka gasa umweru, iburyo bwe hari umwana, imbere hari inyubako iri mu ibara ry'ubururu, na anteni, ibumoso hari amateke.